Umuganga urimo gukoresha umurwayi we ingororamubiri amugorora ukuboko, afashe akantu k'ubururu mu ntoki, ubona yishimiye ibyo muganga ari kumukorera.

Inyubako ifite amarange y'umuhondo, amadirishya ya mpande enye afiteho amarangi y'umweru, afite n'amarange y'umuhondo, hasi nta range ririho, akaba akikijwe n'indabo, hejuru ikirere kigaragara.